Mu murima w'ibigori, bisa nkaho bigeze ibagarwa, harimo umugabo uhetse ipombo, yambaye agapfukamunwa na ga zitukura, arimo arazenguruka muri ibyo bigori, agenda abiteramo umuti.

Ahantu hari ibyuzi byinshi bitandukanye bororeramo amafi muri ibyo byuzi harimo utuzu duhagazemo bakunda kororeramo inkwavu.

Ahantu hari icyuzi, hari umugabo uhari ahagaze imbere yabo afite imiti mu ndobo, arimo aragenda ayinyanyagiza mu mazi kugira ngo amafi azamuke abone uko ayafata.

Ahantu heza cyane hahinze icyayi cyinshi harimo abantu bane barimo baragisarura buri wese ahetse ikintu kiwe arimo agenda asaruriramo icyayi.

Ahantu hari imirima myinshi y'icyayi, hari icyayi cyiza cyane, harimo umuntu w'umubyeyi urimo aragisoroma afite n'akantu ari kugenda ashyiramo icyo yasoromye.

Ahantu hari icyayi cyinshi cyane kihahinze, harimo umugabo umwe wikoreye ikintu kirimo icyayi amaze gusoroma arimo agenda ajyana avana mu murima.

Ahantu hari icyayi cyiza cyane, harimo abantu babiri bari kugisoroma babona ko bishimye barimo bareba abantu bari kubafotora, barimo barasoromera mu kintu umubyeyi ahetse.

Ahantu hahagaze umuntu umwe ufashe ku giti cy'ikiraro, hari inka enye, n'ibiraro byazo ziriku kurya ubwatsi, zirasa neza cyane, zigaragara ko zitabwaho kandi bazororera mu kiraro.

Abantu bane bari mu gishanga barimo barabagara umuceri, umwe afite isuka arunamye abandi biragaragara ko bari kugenda barakoreshamo amaboko bakuramo ibyatsi mu muceri.

Abantu babiri bari mu murima bari guhinga, bose bafite amasuka, ni umumama n'umukobwa we bari mu murima, inyuma yabo hari umurima uhinzemo ibisheke, hakurya yabo hari imisozi miremire.

Ahantu mu gishanga hahinzemo umuceri wenda kwera, harimo umuntu umwe uhagazemo birasa nkaho ari kuwurinda inyoni kuko umuceri ugeze aha inyoni ziwurya.

Ahantu hari umurima munini, uteyemo insina hagaragara ko hari harimo ibigori ,bakaba barabisaruyemo.

Ahantu mu murima hari ibyatsi byumye, hari n'utwatsi duto ubona turi kwimeza bigaragara ko ari ibigori n'ibishyimbo bikiri bitoya biri kwimeza ahantu mu murima.

Ahantu hari sitoke y'ibintu byinshi cyane harimo ibikoresho byinshi byo mu gikoni harimo ibiryo ,harimo ibintu nyine byo guteka byinshi bigiye bitandukanye ariko byo mu gikoni.

Ahantu hari ishyamba rinini cyane cyane rinini bigaragara ko ari parikingi runaka cyangwa se ari ishyamba rya kimeza, hejuru yaho hariho ibintu bimeze nk'imyotsi bigaragara ko hari imvura yaguyemo cyangwa ibyokotsi hataracya neza.

Ahantu hari amashyamba y'inzitane, hakurya niho azitanye cyane no hakuno, ni uko ariko hagati harimo amazi ashoka.

Ahantu hagaragara neza cyane, hari imisozi ireshya, hari ibiti biteye bigaragara ko hari ishyamba nanone bikagaragara ko ari ahantu hagiye harimo imiyezi igiye igabanijemo hagati.

Ahantu hari amashyamba menshi cyane, hari amazi ashoka hagati yayo mashyamba asa nk'aho hari ibihu hataracya kubera amashyamba menshi ahari.

Ahantu hagaragara neza cyane, hari indabo z'amoko menshi zitandukanye bigaragara ko ari ahantu bazigurishiriza cyangwa se bazitunganyiriza kugira ngo abazishaka bazihasange.

Ahantu hari abantu benshi bari ahantu hari ibihoho birimo ibihingwa nk'ibiti, bigaragara nk'aho babiropetse vuba bitarakura, abantu babyifotorejeho babiteruye bigaragara nk'aho barimo babimurika, babimurikira abantu.

Umurima munini cyane, uhinzemo amatunda areze harimo umugabo uri gusarura, arimo aragenda azengurukamo asaruramo ayeze ayatwara.

Ni murima uhinzemo amatunda umurima munini cyane harimo amatunda yeze, harimo umugabo urimo urayasarura, afashe amatunda amwe mu kuboko kumwe n'irindi tunda mu kundi kuboko arimo araryerekana.

Ni mu gishanga, hahinzemo umuceri, hagati yaho harimo amazi ashoka bashoyemo bazajya bakoresha, bavomerera uyu muceri uhinze hano mu gishanga.

Umurima munini cyane uhinzemo imyaka, harimo umuntu umwe ufite umupira uri kuvomera, umupira w'ubururu uri kuvubura amazi ari kugenda aravomera iyo myaka.

Umuntu w'umubyeyi ari mu murima afite umupira ari kuvomere amashu, amashu arasa nk'aho agiye kubumba ariko ntabwo arabumba ariko ni meza, ari ahantu hafi y'amazi niba atacometse umupira uva ahantu kure ariko hari amazi.

Ahantu hari ibihingwa, bigaragara ko ari nk'inoryi, harimo umuntu ufite umupira uri kuzana amazi, arimo aragenda avomera ibyo bihingwa.

Ahantu hagaragara ko hatuye abantu ariko akaba ari ku musozi, hakurya yaho hakaba hari iyindi misozi myinshi igi itandukanye bigaragara ko ari ahantu hari imisozi cyangwa hahanamye ariko hagaragara nyine ko hari ubutaka nyine bugiye busa nabi.

Umuntu uhagaze ahantu hari inkoko nyinshi nyinshi cyane; bigaragara ko ari ahantu hari ubworozi bw'inkoko. Hari amagi ziba zateye ndabona zifite n'ibiraro byabugenewe byiza biri sipesho.

Umuntu uhagaze ahantu mu gisambu hari inka nyinshi ziri kurisha nziza cyane zifite amahembe meza zisa neza bigaragara ko uyu muntu aziragiye kandi ziri kurisha zose.

Hari inkoko nyinshi cyane bigaragara ko hari umushinga wo korora inkoko ari ahantu runaka bazororeye, zirimo ziranywa amazi izindi ziri kurya.

Koperative yabahinzi b'ibigori, basaruye ibigori byinshi cyane, babitonoye, biri hasi, baje kubihungurira mu mashini ahantu runaka, barahari nka koperative, bategereje ko imisaruro yabo iboneka.

Abantu babiri bambaye imyenda yo kubaga, bigaragara ko ari aba veterineri kuko bari kubaga inyamaswa, bashobora kuba ari ubushakashatsi barimo cyangwa harimo abayivura indwara runaka

Ahantu bigaragara ko ari muri parike runaka hari inzovu ihari, hari hirya yaho hari imodoka igaragara ko ari abakerarugendo baje muri parikingi gusura inyamaswa.